Icyumba kirimo ibitabo byifashishwa n'abana b'incuke nk'imfashanyigisho, bifite amabara agiye atandukanye nk'umutuku n'umuhondo, bikaba biri mu gupangwa ku kumurongo n'abantu batandukanye, harimo abambaye ijire y'icyatsi itambitsemo akantu k'umweru n'abantu bambaye amashati y'ubururu.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bigisha abana b'incuke aribyo imodoka ifite amabara agiye atandukanye nini imwe yikorera imizigo inyuma ikaba isa n'icyatsi ifite amapine y'umukara, amaringi y'umweru imbere aho shoferi yicara harasa n'umweru, ikaba iri mo kumena imizigo yikoreye.

Inyubako nziza cyane iboneye ijisho isize amarange y'umweru, ifite amabati y'ubururu, ifite amadirishya n'inzugi bifite amabara y'umukara, imbere yayo hakaba hari ubusitani bufite ibyatsi byiza cyane n'utuyira tugiye twinjira muri ubwo busitani.

Ikibuga kinini cyane kirimo ubusitani burimo ibiti by'amoko agiye atandukanye birebire n'ibigufi bifite ubushishe, kikaba cyubatsemo akuma kifashishwa mu gutanga umubiri ku bana batoya bicaramo bakabasunika bongera bagaruka bizirikishije iminyururu.

Icyumba kirimo ibikoresho by'imfashanyigisho byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'incuke harimo ingofero ebyiri, iyo hejuru ikaba isa n'umuhondo ishushanyijeho agapupe mu ibara ry'ubururu bwerurutse kakaba gafite amaso y'umukara, umunwa w'umukara ndetse n'amaguru y'umukara, iya kabiri ifite ibara ry'umweru agapupe gashushanyije mu ibara ry'umuhondo, amaso umukara n'umuwa w'umukara n'amaguru y'umutuku.

Ikigo cy'ishuri ribanza cyubatse mu buryo buboneye ijisho, gifite amarangi y'umuhondo n'umutuku, hasi gifite ubusitani buboneye ijisho ,buri wese yakwifuza kuba yabwicaramo akaruhuka. hakaba harimo ibiti birebire, ibyatsi bitoshye bikiri bitoya.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha mu mashuri abanza byo mu bwubatsi, harimo inyundo, urukezo, imikasi, metero, bifite amabaragi atandukanye, amapensi n'ibisa nk'umuhondo, ibisa n'umutuku, ibisa n'umukara, n'ibindi by'amabara agiye atandukanye.

Agakoresho kifashishwa mu kubika ibindi bikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga muri pirimeri harimo nk'irati zifashishwa mu guca imirongo, ikaramu zishushanya ndetse n'utundi dukoresho nk'akifashishwa mu gusiba, akifashishwa mu guca uruziga ndetse n'utundi tugiye dutandukanye.

Ikigo cy'ishuri ribanza cyahuriwemo n'abana benshi cyane b'ingeri zigiye zitandukanye ndetse n'abarimu babo, harimo abana bakoze uruziga bafatanye amaboko, umwarimu arimo kubererekera uko bakora uruziga, hanyuma mwarimu akaba yambaye itaburiya y'umweru.

Ikigo k'ishuri ribanza kirimo abanyeshuri benshi cyane bari ku kumurongo. Bambaye imyenda hasi icyatsi, hejuru ubururu bwerurutse. Imbere yabo bakaba bari kumwe n'umurezi wabo, wambaye itaburiya y'umweru. Ku ruhande na none mu busitani bw'icyo kigo, hakaba hari undi mwarimu na we wambaye itaburiya y'umweru. Kikaba gisakaje amabati y'ubururu.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza mu kwiga isomo ry'imibare, harimo amarati abiri ayashushanya uruziga kuri dogere bifuza, hakaba n'undi ishushanya umurongo nabwo ku mubare bifuza hakaba harimo ikaramu zandika z'ibiti, hakabamo igikoresho cyifashishwa mu guca uruziga nacyo cyitwa kompa.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye ahantu hamwe bari kumwe n'abarezi babo, abanyeshuri bakaba bambaye amakaki hasi, hejuru bakaba bambaye imyenda y'umweru, bakaba banatebeje bambaye udukweto tw'umukara n'udusogisi tw'umweru, baje gushyira indabyo ku gituro.

Ikigo cy'ishuri cyahuririwe mo n'abanyeshuri benshi cyane biga segonderi bambaye imyenda y'ubururu hejuru bicaye mu busitani burimo ibyatsi byiza cyane n'ibiti bitoshye, imbere yabo hakaba hari inyubako z'amashuri, hakaba hari utuyira tugiye twerekeza muri buri ishuri muri ubwo busitani.

Ishuri rya segonderi, ryahuriwemo n'abantu benshi, mu cyumba kimwe cy'iryo shuri, harimo abambaye amajire y'umuhondo, harimo umweru, abambaye umutuku harimo umweru, bambaye ay'icyatsi, n'umweru, bambaye kasike z'umweru, kasike z'umuhondo, n'abandi bambaye ingofero zisanzwe, bose barimo kwitegereza, hari umwe uri kuberekera.

Icyumba cy'ishuri gihuriwemo n'abanyeshuri b'ingeri zigiye zitandukanye, barimo kwifotoza bishimye, ubona ko ari ifoto y'urwibutso, bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye nk'umweru, kake, bambaye imipira hejuru, isa n'icyatsi igiye irimo utubara tw'umuhondo.

Abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye bahuriye mu kigo cy'ishuri bari mu bugenzuzi barimo abambaye amajire agiye atandukanye nk'ay'umuhondo n'umukara, ay'icyatsi umwe wambaye kasike y'umuhondo n'undi wambaye iy'umweru, inyuma yabo hakaba hari ikigega cyihateretse cyifashishwa mu gukusanya amazi aturuka ku mashuri, hakaba hari utwuma begamyeho tw'umutuku.

Umuhanda uhuriwemo n'abantu benshi ndetse n'imodoka nyinshi cyane z'amoko agiye atandukanye harimo abakobwa babiri bahoberanye umwe wambaye akenda hejuru gasa n'umukara ndetse n'umweru, undi akaba yambaye ubururu burimo akabara k'umweru.

Ikigo cy'ishuri cya segonderi kiriho amarembo asa n'icyatsi ku ruhande hakaba hari lavabo zifashishwa mu gukaraba, ku buryo uwinjiye cyangwa usohotse wese abanza gukaraba, akaba ahagarikiwe n'umugabo wambaye ijire y'icyatsi wambaye agapfukamunwa k'umweru.

Icyumba cy'ishuri muri kaminuza kirimo udutebe twiza cyane duteye amabengeza, dufite ibara ry'icyatsi ibyuma by'umukara kirimo abanyeshuri b'ingeri zitandukanye abambaye imyenda y'umweru, ya karokaro iy'ubururu n'indi igiye itandukanye gifite amarido y'ubururu.

Abantu benshi cyane bishimye bambaye amakanzu y'umukara n'utundi tuntu biteye mu gatuza dufite ibara ry'umuhondo n'ingofero bamanitse hejuru, ubona ko buri wese amwenyuye yasetse ari umunsi wo gusoza ishuri, harimo n'abambaye amakote, ama karuvate n'udushati tw'umweru mu imbere n'indi igiye itandukanye.

Umuhanda karemano utarimo kaburimbo urimo abanyeshuri bavuye cyangwa bagiye kwiga Kaminuza, bambaye imyenda itandukanye harimo: bambaye iy'umukara, abambaye iy'umweru, abambaye ingofero, abafite imisatsi y'imikorano, abafite karemano, abambaye inkweto zifunze ndetse n'abambaye izifunguye, harimo n'abatwaye amakaye mu ntoki, harimo n'abayahetse mu dukapu.